Igikorwa remezo ari cyo ikigega cyagenewe guhunikwamo amazi, ndetse kandi akaba yasakazwa mu baturage afite ubuziranenge bwayo, akaba aturanye n'inzu ndende yagenewe ibikorwa by'inganda.

Ahantu ushobora kugana ukaba wahabwa ubufasha bwo kwita ku buzima bwawe ndetse ukahahurira n'abandi bantu bafite ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'ubuzima, bakaba baguhereza ubufasha.

Uburyo Leta yagiye iteganya mu mavuriro yo hirya no hino yo kujyana abana bakaba bahabwa inkingo zikubiyemo imbasa, zikaba zabarinda indwara mu gihe babaye bakuru.

Ikigo cyagiriwe icyizere na leta, kigahabwa uburenganzira bwo kuvura abantu ndetse cyahurije hamwe abakozi bayo kugira ngo bagaragaze igikorwa barimo cya serivisi nziza batanga.

Ahantu habugenewe guhurirwa n'abantu imbaga nyamwinshi, bakaba bahabwa ubufasha bwo kwitabwaho cyane cyane ubwo kwivuza, hakaba hahuwemo n'abana, abagore, ndetse n'abakecuru n'abagabo.

Uburyo ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, cyateganyije guhuriza hamwe abantu bageze mu zabukuru, bagahabwa inama z'uburyo bajya bitwara ndetse n'uburyo abaganga bajya babaganirizamo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, hakubiyemo n'amamashini ashinzwe gupima ibizamini byafashwe mu barwayi kugira ngo babone indwara, hakaba hari n'ahantu bakorera isuku.

Uburyo bugezweho bwateganyijwe n'abaganga bwo guhindura amenyo mu gihe cyose ayawe yaba yarangiritse cyangwa yaragize ikindi kibazo, hakaba hari n'umuntu w'umukobwa uri guhinduza.

Igikorwa cyahurije hamwe abantu b'ingeri zose, ari abagabo abagore ndetse n'abakobwa bakaba bari guhabwa amahugurwa y'ukuntu bajya bita ku buzima bwabo ndetse hakaba hari n'ababakuriye.

Uburyo bwateganyijwe n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima cyane cyane ku byerekeye amenyo, uburyo ushobora gukoresha akagozi, ukaba wasukura amenyo yawe, utayakomerekeje.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, ari byo amamashini yagenewe gupima imiti cyangwa gupima umuvuduko w'amaraso, mu gihe cyose umuntu ahaganye ashaka kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira bwo gusajisha neza abageze mu zabukuru, bakaba bakitabwaho, harimo mu guhabwa ubufasha bakeneye nk'ubw'ubuvuzi ndetse no kubahereza abantu babitaho mu buzima bwabo.

Igikorwa cyateganyijwe n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima cyagennye bwo guhura n'urubyiruko bakaba baganirizwa uburyo bakita ku buzima bwabo cyane cyane abakobwa.

Uburyo bwateganyijwe n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima, kikaba cyarateganyije gushyiraho gahunda abantu bahuriraho bakaba bahabwa inkingo cyangwa bagapimwa indwara zandurira mu maraso.

Icyapa kiri kwamamaza umunsi umwe ikigo gishinzwe ukwita ku buzima kizahuriraho n'urubyiruko, bakaba bapimwa cyangwa bagasobanurirwa ingaruka za SIDA.

Igikorwaremezo ari cyo inzu yagenewe gucururizwamo imiti ishinzwe kuvura abantu, ukaba wahagana mu gihe cyose wahawe ubwoko bw'imiti butaboneka ku kigonderabuzima wivurijeho.

Ubwinjiriro ndetse n'ubusohokero bwagenewe kunyurwamo, mu gihe cyose umurwayi agiye guhabwa ubufasha bw'ibanze cyangwa agiye kubyara cyangwa bagiye kumubaga bamuvura indwara runaka.

Uburyo bw'ubwirinzi, ikigo gishinzwe ubuzima cyateganyije ku bantu bose, bakora amasuku ahantu hateye icyorezo, aribwo bwo kwambara imyenda ipfuka hose.

Ahantu hateganyijwe n'ivuriro runaka ryagenewe kwakira abantu barwaye, bakaba bahafatira imiti ishinzwe kubafasha mu gihe cyose bumva babara cyangwa ibagabanyiriza uburibwe.

Igikorwaremezo, ari cyo inzu nini ya etaje isize amarangi y'ubwoko butandukanye yagenewe gutangirwamo ubufasha bwo kuvura abantu b'ingeri zose, hakaba hari n'icyanya cyagenewe guparikamo imodoka.

Icyumba kigari kirimo intebe z'abageze mu zabukuru, zikaba zikoreshwa mu gihe cyose uruhutse kuko zirimo n'imisego myiza ishobora kutabavuna imigongo.

Icyumba cy'ibitaro, cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, mu gihe cyose barembye, bakaba bahabajyana mu gihe cyose abaganga bagiye kubitaho, akaba ari umumama uryamye ku gitanda, ndetse n'umuganga w'umugore, wambaye amarinete.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, bikubiyemo n'amamashini yagenewe gupima niba umutima utera neza ndetse n'igitanda, umurwayi aryamamo mu gihe ari kuvurwa.

Uburyo bugezweho bwo kuvura abantu amagufwa bayagorora hifashishijwe inzobere mu kubikora ari nabwo buryo abantu bageze mu za bukuru bakoresha kugira ngo bagororoke amagufwa.

Agakoni gashinzwe gusindagiza abageze mu zabukuru mu gihe cyose bari kugenda ahantu hazamuka ndetse n'ahantu hamanuka ku buryo batabasha kwitangira, bakagakoresha.

Icyumba kigari cyagutse kirimo ibikoresho byose umuntu ashobora gukenera mu gihe ari gukora imikino ngororamubiri, harimo no guterura ibyuma hakaba harimo n'abasore bari kubikora.

Umuti wateganyijwe ushinzwe kuvura indwara zitandukanye, ukaba ukozwe mu bihingwa ari byo igikakarubamba, avoka ndetse n'ibindi bitandukanye, ikaba iri mu gacupa k'umweru gapfundikiye.

Igisambu kinini kirimo imiti ya kinyarwanda, ishinzwe kuvura abantu bageze mu zabukuru cyane cyane abarwaye mu nda ndetse n'abari kwivuza izindi ndwara zitandukanye.

Ahantu hagari hari ubutaka buteyemo igihingwa cyitwa umuravumba, cyagenewe wo gukoreshwa nk'umuti ushobora kuvura mu nda ndetse n'izindi ndwara zose.

Imiti y'ubuvuzi gakondo abanyarwanda bakoreshaga ahambere hataraza abazungu ngo bazane imiti ya kijyambere. Ikaba yarakoreshwaga mu kuvura umutwe, uburwayi, n'amarozi.

Igihingwa giterwa mu butaka, ahantu hafite ifumbire, kikaba cya kera kigakoreshwa nk'ikimera gishinzwe kuvura mu nda ndetse n'izindi ndwara cyitwa umuravumba.